Ikoraniro ry'abantu biganjemo igitsina gabo bicaye mu gisharagati gifite ibitambaro by'umuhondo, icyatsi, n'ubururu ishinze ubusitani bwiza.

Hateraniye abantu benshi harimo abacungagereza bo mu rwanda ndetse n'umugororwa w'umugore wambaye amarineti wisize ibintu bakunze kwita tiro wambaye impeta wambaye n'impuzankano z'abagororwa.

Imodoka ya polisi ikunze kwitwa pandagare, iparitse imbere y'inzu igeretse ikorerwamo na banki yitwa zigama, ikorera ku Muhima.

Umuhanda harimo ipikipiki isize irange ry'ubururu n'umunyamaguru wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'isaha, ku ruhande rw'umuhanda hariyo abantu bari kubaka.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru y'itoyota, iruhande rwayo hariyo umunyonzi wambaye umupira w'umuhondo, atwaye umugenzi wambaye ishati y'ubururu.

Umuhanda urimo abagenzi abahagaze mu muhanda baganira, abana babiri n'umugabo umwe batwaye amagare, iruhande rwabo hariho igipangu gifite amatara menshi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho ibirahuri by'umukara isa naho itararangira neza, kuko imbere yaho hari imicanga n'amabuye akoreshwa mu kubaka.